Umuhinzi uri mu murima we aho ari gutera umuti imyaka yahinze kugira ngo itazaribwa n'udusimba bityo ntabone umusaruro uhagije.

Imiti yifashishwa mu buhinzi nu'bworozi, aho ipakiye mu ducupa dusa neza, kandi ikaba iri ku isoko ryayo.

Umuhinzi urimo guhinga umurima we kugira ngo azateremo imyaka, niyera abashe kuyifashisha mu buryo butandukanye, yaba kuryaho cyangwa se kuyijyana ku isoko.

Umurima uhinzemo ibigori, aho ibyo bigori bigeze ahantu bimeze neza cyane kandi bakaba baje guteramo ifumbire ya ire(Urea) kugira ngo bikomeze byere neza bizatange umusaruro uhagije.

Abahinzi barimo gushyira ifumbire ku bihingwa byahinzwe, kugira ngo umusaruro wabyo uziyongere, bityo abahinzi basagurire amasoko.

Umuti urimo gutunganywa kugirango bazawukoreshe mu buhinzi maze umusaruro w'ibihingwa wiyongere igihe bazaba bawukoresheje mu buhinzi.

Umuhinzi yagiye mu murima we gutera umuti imyaka yateye kugira ngo itazaribwa n'udusimba bityo ntabone umusaruro uhagije, akaba afite ibimufasha gutera uwo muti.

Ifi iri ku cyokezo bamaze kotsa, imeze neza rwose cyane iraryoshye kabisa, isa niryoshye, irambitse ku cyokezo n'umuriro uri kwaka cyane, n'indimu n'akandi kantu.

Abarobyi bari mu kiyaga barimo kuroba amafi bakaba ari benshi cyane kandi bashobora kuba bakorera hamwe kuko bambaye imyenda yo hejuru isa ibaranga.

Amafi yarobwe akajyanwa ku isoko kugira ngo bayajyane kuyacuruza. Aho arambitse ahantu hameze neza, kandi na yo akaba asa neza, ameze neza.

Amafi akawushijwe, ari gucuruzwa mu isoko aho bayatanditse ndetse ngo yume neza, abaguzi bayasange yumye.

Ifi iri ku cyocyezo aho imaze gushya imeze neza cyane, icyo cyocyezo kikaba kirimo umuriro mwinshi uri kwaka kandi iruhande rwayo hakaba hari indi ndetse n'akandi kantu.

Isambaza zarobwe n'abarobyi kugira ngo bazijyane ku isoko, bazigurishe babone amafaranga aho abaturage barazisanga bakazigura.

Ikiyaga gikikijwe n'ubutaka butandukanye， n'ibindi bintu bitandukanye， aho gifitemo，uturwa ndetse kikaba cyororerwamo，amafi n'amahera.

Ibakuri yashyizwemo ibiryo bihiye, aho bisa neza kandi biryoshe kubari bubirye, bimeze neza rwose.

Isamaki yajyanywe ku isoko kugira ngo umuguzi uyishaka aze kuyibona ayigure, maze nyirayo bamuhe amafaranga yakoresha mu bindi bintu bitandukanye.

Amafi yarobwe， bayajyana ku isoko， aho bategereje ko haza umukiriya， maze akavuga ayo ashaka， bashobora kuyamuharurira， cyangwa se ibindi，akaba araha umuntu wayarobye， amafaranga afatika.

Umurima bakuyemo ibihingwa urimo ibiti bitandukanye, ndetse ukaba utari wongera guhingwa...

Umurima wasaruwemo ibigori, ariko bikaba ukirimo ibikenyeri batari ba nyirawo, bataribaza kuguhinga, aho ari munini cyane kandi ukaba wera.

Umurima uhigwamo ibintu bitandukanye, aho ubu batabiye ndetse ku mpande zawo hakaba hari undi muhinzi ufitemo urutoki, aho bose biteze kuzabona umusaruro ushimishije maze bagakomeza kwiteza imbere binyuze mu murima wabo.

Uyu murima uhinzemo ibihaza, aho ibyo bihaza bimeze neza cyane, kandi bikaba biri ha hafi kwera bigatanga umusaruro.

Umurima uhinzemo urutoki aho nyirawo yiteguye kuzabona umusaruro w'ibitoki ubundi akawujyana ku isoko.

Umurima banyirawo bari barahinzemo ibigori barabisaruye ntabwo bari bagaruka gukuramo ibigorigori cyangwa ngo bongere kuwuhinga uracyari aho wararaye haracyarimo ibikenkeri.

Urutoki ndetse n'imboga bihinzwe ku rugo rw'umuntu aho yabihinze kugira ngo bijye bimufasha kubona imboga uko agiye guteka, ndetse n'igitoi nicyera aryeho.

Ibihingwa byatewe mu murima umeze neza, uciyemo amaterasi, aho biteze kubona umusaruro uzabiturukamo, icyo gihingwa akaba ari karoti.

Umurima uhinzemo ibihaza aho cyenda kwera, ku buryo ba nyiracyo bazatangira kuryaho kimeze neza cyane kandi ubwo murima ntago uri ahantu heza cyane.

Imiteja yajyanywe ku isoko kuko yeze neza ,kandi ikaba isa neza. Iryoheye ijisho, bityo abaguzi nibayibona bagomba guhita bayigura. Ikaba iri ahantu hasa neza cyane.

Umucuruzi ucuruza wota meroni ya zikase aho uhita uyirya ako kanya, akaba yazikase yazishyize mu ndobo aho zimeze neza kandi zikaba zifite isuku izo ndobo kandi nazo zimeze neza cyane.

Umuhinzi ugiye mu murima we akaba afite agiye amabase, akaba agiye kuhira ibihingwa bye, kugira ngo bizamuhe umusaruro uhagije.

Abahinzi bari mu murima wabo, barimo gutera umuti ibyo bihingwa kugira ngo bitazaribwa n'udusimba, maze babone umusaruro uhagije bifuza kubona.

Aha hari ubucuruzi bw'ibinyomoro ndetse n'amatunda yamarakuca, abacuruzi bafite igishoro gikeya, bateganya ko bahereye kuri bike bafite bagomba kwiteza imbere bakazamuka. Bikaba birambitse ku mufuka.

Amateke ya Bwayisi bajyanye ku isoko gucuruza, kugira ngo abayarya babashe kuyagura mu isoko, kandi asa neza akaba ateretse n'ahantu hasa neza.

Abahinzi bari mu murima wabo aho barimo kubagara, kugira ngo ibyo bahinze bitazagwingizwa n'ibyatsi byimejejemo.

Abacuruzi bacuruza ibintu babijyanye ku isoko kugira ngo babigurishe babone amafaranga bakoresha ibindi , ndetse bitegure kuzakomeza kubihinga . Babipakiye mu mufuka kandi bimeze neza.

Umucuruzi ucuruza ibintu bitandukanye, ku buryo ugezeyo icyo ushaka cyose wakibona ,acururiza imineke ,amavuta Elayo ndetse n'ibindi.

Mu murima wahinzwemo ibihingwa bikaba byiza. None banyirabyo bawuhinze bakaba baje gusarura. Bakaba bambaye bote, zituma nta kintu cyabica. kandi bakaba bari gukoresha nanjoro bari kubisarura.

Igiti cya voka kirimo amavoka menshi， aho mu minsi mike arajyanwa ku isoko， maze nyiracyo akabonamo amafaranga，yo gukoresha mu bindi bintu.

Igihingwa cy' ibirayi ceze cyasaruwe na bene co kiri mu murima, biteguye ku gipakira bakakijyana ku isoko.

Amapera yeze neza, aratukurije afite n'ibabi, kandi ibibabi byayo bigira umumaro kuko ni umuti ushobora kwifashishwa, iwacu turawukoresha.

Voka nziza cyane zisa n'izabanguriwe, zikaba ari imitsima ziryoshye, kandi umucuruzi uzifite ku isoko akaba yiteze kubona abaguzi.

Umuhinzi uri murima we w'ibishyimbo, wagiye kureba aho bigeze kugira ngo abyiteho maze bizamuhe umusaruro ufatika, bitume yongera guhinga, akomeze yiteze imbere.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye by'imboga, ndetse bakaba baba babishyize ku mifuka no mu bindi bikoresho aho abakiriya babasha kubibona neza bigaragara, aho umucuruzi afite ibiribwa bigiye bitandukanye.

Amashaza ameze neza mu murima, aho yenda kwera maze nyirayo akazayajyana ku isoko, maze akabonamo amafaranga yamufasha gukora ibindi ndetse no guhinga ayandi.

Igiti cy'imyembe gifite imyembe myinshi cyane aho kizatanga umusaruro uhagije, kandi nyirawo akabona amafaranga akamufasha mu gukora ibindi ,kimeze neza kandi n'aho kiri ni heza.

Imyumbati yeze neza cyane, kandi ikaba isa neza cyane, aho yajyanywe ku isoko, kandi umuntu wese uyibona abona ko yeze, kandi iryoshye.

Voka ziryoshye ziribwa zikaba ari imitsima ikaba byitezwe ko umuntu wese wayibona yakumva yayigura kuko ku ijisho iraryoshye.

Inyanya zahinzwe zikaba ziri kwera, aho zimwe zatukurije kandi zikaba zisa neza cyane, izindi ntabwo zari zatukura.

Abahinzi ndetse n'abayobozi batandukanye, basuye umurima uhinzemo ibirayi, aho bashobora kuba bari kwiga cyangwa se guhugura abandi bantu, ku buryo bwo guhinga neza bakabona umusaruro.

Umusaruro wabonetse w'ibirayi, nyirawo yawupakiye mu mifuka, kugira ngo yitegure kuwujyana ku isoko, aho yiteguye kubona amafaranga azamufasha mu bindi bikorwa byo kwiteza imbere ndetse akanashobora gukomeza guhinga neza.

Ubucuruzi bw'imboga n'imbuto bukorerwa mu isoko, aho bufite ibintu bitandukanye kandi bisa neza. Imyembe, imineke n'ibindi byinshi bitandukanye bisa neza, kandi biri mu bikoresho bisa neza cyane.

Ibishyimbo bisa neza byajyanywe ku isoko, aho biri mu gikoresho gisa neza kandi nabyo bakaba babirobanuye, bisa neza cyane.

Inkoko ya dendo aho yateye amagi menshi cyane, ikaba iyaraririye kugira ngo izakuremo imishwi.

Umuhinzi ugiye mu murima ari kuvugira kuri telefoni , kandi akaba afite isuka, umurima we ukaba uhinzemo ibigori akaba agiye kubibagarira.

Abahinzi bari mu murima bari guhingira hamwe kugirango igihe cyo gutera kizagere barasoje guhinga. Ni benshi bari gukorera hamwe ubona ko bisa neza

Abanyozi bapakiye inanasi, aho abahinzi bazihinze zabahaye umusaruro, bityo bakaba bazijyanye ku isoko kugira ngo bazigurishe.

Ibigori byasharuwe bakaba babyanitse kugira ngo byume maze bazabikuremo impungure zo gukoresha mu bindi bikorwa, bijyanye no mu kwiteza imbere cyangwa by'ubuhinzi, bikaba biri ahantu hameze neza.

Abahinzi bari mu murima wabo, kureba niba ibyo bahinze biri kwera neza, maze barebe niba bateramo umuti cyangwa babireka. Basa neza cyane kandi n'igihingwa cyaho kimeze neza.

Ibirayi byajyanywe ku isoko, bikaba bipakiye mu kintu gisa neza cyane, kandi nabyo bikaba bisa neza aho ari imbuto ya kinigi.

Aha hari abahinzi bari mu murima uhinzemo amashu, bari kuyasasira kugira ngo atazatarukirwa bityo azere neza, umusaruro wabo uziyongere maze bakomeze biteze imbere.

Indimu zeze zajyanywe ku isoko kugira ngo abantu bazikeneye bazibone , bazihahe, maze zibafashe mu buzima bwabo.

Imyumbati yajyanywe ku isoko kugira ngo bayicuruze, ikaba isa neza kandi ibyibushye, aho itondetse neza cyane.

Umuhinzi wagiye mu murima kureba ibyo ahinze aho bigeze, kandi inyanya ze zikaba zimwe zaratukuye, aho yiteguye kubonamo umusaruro ushimishije, asa neza kandi n'umurima we umeze neza.

igihingwa cy'urusenda cyahinzwe ,kugira ngo kizifashishwe n'abantu batandukanye, aho bazarurya kugira ngo rubatere apeti.

Ibijumba byajyanywe ku isoko aho birambitse neza hasi, kandi bikaba bimeze neza cyane ku buryo umuntu wese abona ko biryoshye.

Abacuruzi bacururiza mu isoko, barimo gucuruza ibishyimbo ndetse akaba arimo gupima ibiro, kugira ngo ataza kwibeshya agatanga byinshi cyangwa bikeya.

Umuhinzi wahinze ibigori, none igihe kirageze cyo kubitera umuti kugira ngo bitazaribwa n'udusimba, bityo ntibitange umusaruro kuri bene byo.

Umwubati weze neza ukaba wasaruwe na nyirawo, aho umeze neza akaba yiteguye kuwuteka bakawurya ndetse bikaba yiteze kuzongera agatera n'indi.

Igitoki cyeze, bajyanye kugurisha, aho gisa neza cyane, kimeze neza cyeze neza ,kikaba giteretse ahantu heza cyane, Kandi gisa n'igiciriweho.

Imodoka iri gupakirwamo ibihingwa byasaruwe, aho bagiye kubijyana ku isoko bipakiye mu mifuka. Ndetse umuntu akaba ari gupakira muri iyo modoka hari abagenti ndetse n'abamotari bapakira ibintu bitandukanye.

Abayobozi batandukanye basuye umurima w'umuturage kugirango barebe umusaruro uzatanga, aho yakoresheje imbuto imeze neza, kandi ku kumurima biragaragara ko uwo muhinzi ibishimbo bye yabiteye neza.

Afoka y' imbangurire ikase neza iteretse ku meza, ikaba iryoshye cyane kandi ikaba ari umutsima, aho hari n'izindi ziri ku meza kandi zisa neza ziteye apeti.

Umworozi w'inka uri mu kiraro k’izo nka，akaba ari konsa inyana zavutse， kugira ngo zibashe kumera neza.

Abahinzi bahuriye hamwe ,kugira ngo barobanure imbuto z'ubuhinzi bwabo bakaba bose bari gukorera hamwe, kugira ngo bagere ku musaruro uhagije.

Umuhinzi uri guhinga umurima we kugira ngo yiteze imbere, yaje kubagarira, yaje kubagarira ibyo yahinze kugira ngo bizazamuke neza, akomeze yitege byinshi mu byo yahinze.

Abacuruzi bahinze imiteja none bayisaruye bayijyanye ku isoko , aho bayipakiye mu mifuka kugira ngo bayibike mu buryo bwiza kandi bakaba biteze kubonamo amafaranga.

Ibishyimbo bimeze neza bitangiye kweraho ,bifite umushogoro mwiza cyane ndetse bikaba bifite n'imiteja na yo yaribwa ,ariko bikaba byitezweko ibi bishyimbo bizatanga umusaruro uhagije.

Ubunyobwa, ubunyobwa bwasaruwe, bukajyanwa ku isoko aho babukoreye isuku, busa neza kandi bakaba biteze kubukoresha, maze bakabonamo amafaranga bakoresha, mu bindi bikorwa bitandukanye.

Ubunyobwa babutonoye babujyanye ku isoko aho buri ku ntara, kandi bakaba babukuyemo imyanda yose ku buryo umukiriya yabujyana.

Umurima uhinzemo amasaka akaba ari hafi kwera, aho ameze neza cyane ku buryo ashobora kuba azahita abona abaguzi.

Ibishyimbo bisa neza kandi byo kuribwa cyangwa se umuntu akaba yabigira imbuto kuko byatanga umusaru mwiza, ariko bikaba bimeze neza cyane kandi ari imbuto nziza.

Umuhinzi wahinze agasarura none arimo gutoranya ibishyimbo bye kugira ngo akuremo ibipfu maze ibizima abijyane ku isoko abigurishe.

Ibigori by'amoko atandukanye， bashyize hamwe kugira ngo buri wese， uribuze，aze arebe ubwoko ashaka kuguraho， maze abe aribwo bamuherezaho.

Umurima uhinzemo ibihingwa kandi bakaba bahinze kuburyo bwiza bw'ababihinze ku murongo bakaba baraciye amaterasi kugirango ibihingwa byabo bize neza.

Ibigori byajyananywe ku isoko kugira ngo bicuruzwe, bisa neza cyane, kandi bipakiye mu bikoresho bisa neza, aho nyirabyo arimo gukuramo imyanda, kugira ngo bikomeze bigire isuku.

Inzu bahunitsemo imyaka yasaruwe y'ibigori, bakaba bashaka ko bikomeza kuma neza, ubundi bakazabihungura bakabijyana ku isoko, bagafatamo n'indi mbuto yo guhinga.

Imbuto iri ku ntara, umuntu akaba arimo kugosora kugira ngo akuremo imyanda yaba irimo, noneho bize kuba bimeze neza bifite isuku. Skaba afite isuku aho ari kubikora.

Ubunyobwa busa neza cyane, aho haba hari ubugifunze batari batonora ubundi bakaba babutonoye bumeze neza cyane bwose, ubundi nabwo bakaba bakuyeho agashishwa kawurinda kwandura, bukaba urarambitse ahantu hasa neza.

Umurima ngo uhinzemo ibihwagari, aho biri hafi kwera maze ba nyirabyo bakabisarura bimeze neza ,bigaragara ko bizatanga umusaruro ushimishije.

Imifuka iba ipakiyemo ibyo kurya bitandukanye byamaze gutunganywa mu ruganda ,aho bipakiye mu mifuka isa neza kandi bikaba biri n'ahantu hameze neza.

Ibihingwa byasaruwe bigapakirwa mu mifuka， aho bipakiye mu mifuka isa neza cyane， kandi nabyo bikaba bisa neza cyane， bikaba byajyanywe ku isoko.

Inzu ibitswemo imyaka yeze kugira ngo ibashe kuma maze bazayijyane ku isoko, aho imeze neza cyane kandi bihunitswemo bikaba na byo bimeze neza cyane.

Ibihingwa byahinzwe bigasarurwa aho babipakiye mu mifuka isa neza cyane, bikaba n'ahantu hameze neza. Bikaba biri aho bigomba kuba kugira ngo bizaborohere kubigurisha.

Abahinzi bejeje ibigori barabyanika biruma, aho bari kumanika ,aho bahunika imyaka kugira ngo ikomeze imere neza, kugirango bazabikuremo imbuto.

Ibishyimbo byeze, bikajyanwa ku isoko aho birambitswe ku kintu kimeze neza, gifite isuku, kandi na byo bikaba bisa neza bifite isuku, aho umuntu wese abibonye abona ko ari ibishyimbo byiza.

Imbuto y'ibishyimbo yashyizwe mu mufuka aho umucuruzi yiteze ko hari abaza kuyigura, kugira ngo bazajye guhinga cyangwa babiteke. Ikaba yashyizwe mu mufuka umeze neza, usa neza.

Ibigori byasaruwe bikaba barabihunitse ahantu kugira ngo byume, nibimara kuma bazabihungure, bikaba bimeze neza cyane kandi bikaba biri n'ahantu hameze neza.

Ibishyimbo by'amoko atandukanye ndetse n'amashaza, ndetse ndetse n'ibindi bitandukanye byakwifashishwa mu buhinzi kugira ngo bazabone umusaruro.

Umuhinzi uri mu murima we, aho yajyanyemo ifumbire kugira ngo afumbire ibikorwa by'ubuhinzi bwe, kugira ngo bizamuhe umusaruro ufatika.

Ubunyobwa bwajyanywe ku isoko, aho burambitse ahantu hasa neza, kandi bupakinze mu mudufuka dusa neza, ariko bukaba butari bwatonorwa, kugira ngo batangire babugurishe.

Ikigori cyahinzwe n'umuhinzi kugira ngo azatere imbere，none kireze aho yiteguye kukijyana ku isoko， maze akazabona amafaranga yo kumufasha mu bundi buhinzi bwe， cyangwa n'ibindi bitandukanye.

Umuhinzi w'amashaza yagiye gusura umurima we， aho arimo gusoroma amashaza yo kuza guteka， kuko yeze afitemo ameze neza.

Umurima uhinzemo ibishyimbo umeze neza, kandi ibishyimbo bikaba byazanye uruyange, aho mu minsi mike, biraba byazanye imiteja, maze nyirabyo agatangira, kubonako bizamuha umusaruro.

Ahantu ahantu hatunganyirizwa imbuto zo kujyana mu mirima kugira ngo zibe zitezweho gutangwa gutanga umusaruro mwinshi ufatika aho zizafasha abaturage kwiteza imbere.

Ubworozi bw'intama bwakozwe n'abaturage batandukanye aho bamwe bazijyanye ku isoko, kugira ngo abandi bashaka korora bazigure bajye korora.

Inkoko zimeze neza cyane, ziri ahantu hasa neza, nazo zikaba zimeze neza, ni nyinshi zikaba ziri aho ziba mu nzu yazo.

Inkwavu zisa neza cyane, ziri mu kiraro cyazo, aho zose zifite ibara ry'umweru, ndetse n'amaso y'umutuku, zikaba ziri aho ziba.

Inkoko ziri mu kiraro cyazo, aho zifite ibyo kurya ndetse zikaba zitaweho cyane, zimeze neza kandi zitaweho na nyirazo.

Ingurube ziri mu kiraro cyazo，aho ziri kurya ibyo bazihaye， kandi zikaba zikiri ntoya cyane， aho nyina iri hirya yazo.

Ingurube ziri mu kiraro cyazo, ahori ziri zifite isuku kandi bigaragara ko zitaweho cyane na nyirazo ku buryo azazibonamo umusaruro.

Urukwavu ruri mu kiraro cyarwo， aho rufite isuku rusa neza，kandi rukaba ruri kumwe n’utwana twarwo.

Imishwi iri mu kiraro cyayo, aho bayihaye ibyo kurya ngo irye. Ikaba ahantu iba, ikaba yitaweho kugira ngo izabashe gukura neza.

Umuganga w'amatungo aho yagiye kureba inka mu kiraro, kugira ngo ayisuzume ayisuzume ayitere n'inkingo zitandukanye, kugira ngo ikomeze gutanga umukamo mwiza, abayoroye bakomeze bayitegeho umusaruro.

Ubworozi bw'inka bajyanye ahantu kugira ngo ziribwe, zitabweho n'abantu bashinzwe gukurikirana imibereho yazo.

Ingurube iri mu kiraro cyayo, aho aba veterineri baje kuyireba ngo bayisuzume cyangwa se bayitere inkingo.

Umuviterineri urimo gutera ushinge inka kugira ngo ayivure indwara cyangwa se ayikingire. Maze ikomeze itange umusaruro kuri ba nyirayo bakaba bari mu kiraro aho iyo nka iba.

Izi nkoko ziri mu kiraro mu nzu yazo. Zifite ikintu zose zirimo kwitegereza nk'uko ziri mu kiraro, zishobora kuba zirimo kwitegereza umuntu waba azizaniye ibiryo byazo.

Ingurube ntoya zirimo konka kuri nyina wazo, aho ari nyinshi zikaba ziri mu kiraro cyazo.

Amagi yajyanwe ku isoko， akaba ari mu dukoresho bayabikamo，kandi akaba asa neza，afite isuku，kandi atondetse ku murongo.

Ikiraro k’inkoko kirimo inkoko nyinshi cyane， aho nyirazo yashyizemo umwunzani， kugira ngo abashe kumenya ibiro zifite.

Umworozi w'inka uri guha inka ye ubwatsi kugira ngo irishe, izatange umukamo uhagije, maze bazabone kwiteza imbere.

Inyamaswa ziri mu ishyamba aho ziba, zikaba ziri ahantu hazo hameze neza ,gusa ubwatsi bukaba bwarumye.

Inuma iri mu byatsi yagiye gutoragura， kugira ngo ibone ibyo kurya inzara itayica， kandi ikaba yagiye gutoragura mu ishyamba.

Cyamanutse hasi ku butaka, aho kiri kwitegereza, kandi kikaba kiri gutoragura ibyo kurya, kugira ngo kiticwa n'inzara, kikaba kiri ahantu hasa neza.

Igikeri cyavuye mu mazi, kijya aho kitagomba kuba, aho kiri ahantu hasa neza cyane, kandi kikaba kiri kota akazuba.

Inyamaswa iri mu ishyamba aho iba, ikaba isa neza kandi yitonze, aho ishobora kuba iri kwitegereza ikintu runaka.